Iyi shusho iragaragaraho umugabo uri kumwenyura. Afashe amafi mu biganza byiwe ni umurobyi ukorera mu kiyaga kibamo...

Iyi shusho iragaragaraho abantu benshi batandukanye, bari mu bihingwa bisa n'ibara ry'icyatsi, abagore ni batatu ndetse n'umugabo umwe.

Iyi foto iragaragaraho imiti itandukanye, ivura inyamaswa ,handitse tuwelive botozi, veterineri injegishenizi.

Iyi shusho iragaragaraho igiti giteye mu murima, igiti cy'imyumbati ndetse n'ibindi biti bitoya cyane bigikikije.

Iyi shusho iragaragaza imisozi myinshi. Imisozi iriho ibimera biri mu mabara y'Icyatsi n'undi hirya usa n'Ubururu hejuru hariho ikirere.